Abagabo batatu bahagaze mu murima, bigaragara y'uko uteyemo ibihingwa, aba bagabo bakaba barimo gusarurira mu bikurete, bakaba bagenda babitwara ku rutugu, ndetse kandi inyuma yaho hariho imiti birebire biri inyuma yabo bigaragara ko byeze.

Igti cy'imyumbati gikuye kirambitse hasi gifashe imyumbati. Iruhande naho hariho indi myumbati irambitse hasi bahaguye iyo iruhande rw'icyo giti, icyo giti kikaba gisatuye.

Ahangaha haragaragara igihingwa nzamurabukungu gihagazemo umugore witeze igitambaro akaba akenyeye ikindi, bikaba bigaragara yuko iki gihingwa kiri mu bwoko bw'ibiryo.

Abagore babiri biteze ibitambaro ,barimo kugosorera ku nkoko ,bakaba bahagaze no mu murima wari uteyemo ibishyimbo hakaba hari n'undi mukobwa kandi ,waje uhagaze hagati yabo uko mu mifuka barimo kugosoreramo ,akaba afashe ibishyimbo mu ntoki arimo kubereka.